Abana benshi bagiye batandukanye baje ku ivomo ry'amazi bari kuvoma, harimo n'umugabo uri kubafasha kuvoma, bamwe bari kuvomera ku gice cy'imbere n'abandi bari kuvomera ku gice cy'inyuma, bamwe bafite indobo, abandi bafite amajerekani.